Icyumba kigishirizwamo abana b'incuke. Aha ngaha bahabwa amasomo y'ibanze. Aho kigizwe n'ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bishobora gutuma abana biga neza ndetse binabakurura. Ni ukuvuga ngo ibi bikoresho byifashishwa mu kubara ndetse no kubigisha ibintu bigiye bitandukanye, ari nako babimenya, hakurikijwe aya mashusho.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke kigizwe n'ikibuga gitoya ndetse ku bikuta hagiye hashushanyijeho ibikoresho bigiye bitandukanye: iby'indabo, ibimera ndetse n'ingorofani, umubiri w'umuntu ndetse n'utundi tuntu twinshi, aha ngaha iyo bashushanyijeho tuno tuntu bituma abana bibakurura bakishimira kuza ku ishuri.

Ikarita igaragaza u Rwanda, intara uko ari eshanu: intara y'iburengerazuba, uburasirazuba, amajyepfo ndetse n'umujyi wa kigali, biragaragara mu kigo cy'amashuri n'imfashanyigisho abana bashobora kureberaho babyiga.

Agakoresho kameze nk'agapupe. Gafite ibara risa n'iroza ndetse kakagera n'umufuniko w'umweru. Ni twa dukoresho bahereza abana bakiri batoya kugira ngo bishime. Ushobora kukamuha nk'impano cyangwa se igihe yakoze neza.

Imyitozo ihabwa abana biga mu mashuri abanza ndetse nay'incuke. Ahangaha biboneka mu gitabo, aho haba handitseho imyitozo ni ukuvuga ngo iyo umwarimu amaze kuyigisha agenda atanga imyitozo ku bana kugira ngo amenye neza ko isomo ryumvikanye.

Agakinisho kagizwe n'utuntu tugiye dutandukanye, aho uruhare rumwe rugaragaza aho abana bagenda buririra bari kwicunga cyangwa se bari gutsuka, hanyuma ku ruhande kandi hariho agashushanyo kagaragaza umukino w'intoki aho bagenda bafata umupira bawushyira mu kantu kameze nka supanete cyangwa se urushundura.

Ibikinisho bahereza abana bakiri batoya ndetse n'abiga mu mashuri y'inshuke, hariho ikimeze nk'agapusi gifite ibara ry'umweru ndetse n'utundi dukoresho tugera kuri tubiri turi kumwe na cyo, iki ngiki uhsobora kugihereza umwana mu gihe arimo kwiga.

Imfashanyigisho ikoreshwa mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'incuke, aho igaragaza itoroshi cyangwa se igikoresho gitanga urumuri, berekana aho urumuri ruturuka, uburyo bigenda, uburyo bagenda bahuza amasinga ndetse bakayahuza n'amabatiri kugira ngo urumuri ruboneke.

Inyigisho zitangwa ku mashuri abanza ndetse n'ay'incuke aho uhanga barimo kuvuga bati ni gute ushobora kuyimurika nk'umuntu wibitseho ubumenyi nko gufata ibyemezo, ahangaha aba ashobora kugaragaza uko umuntu ushaka kuyitwara mu gihe ashaka gufata icyemezo bagaragaza ko icyafashe akizi neza.

Udupupe twifashishwa mu gihe abana barimo kwiga cyangwa se mu gihe baba bari mu mwanya wo kuruhuka no gukina, aho ari udukinisho tubafasha kuba bahuze no kuba batarimo kurira cyangwa se ngo bajye kuzerera.

Zimwe mu mfashanyigisho zikoreshwa mu mashuri abanza ndetse no mu mashuri y'incuke. Aho washushanyije ingorofani, igiti nacyo kimanitseho inyama, hariho inyama zinkoko ndetse n'ibindi byinshi bigiye bishushanyije hano hantu bigiye bitandukanye.

Imbwa yambaye akantu mu mutwe ndetse hasi hariho utudi dupupe tugiye dutandukanye harimo utw'inyamaswa zimwe na zimwe, udukoze umutima ndetse n'uruziga n'utundi twinshi turyamye hasi. Ni ibikinisho byifashishwa n'abana bakiri batoya mu rwego rwo kubashimisha.

Imfashanyigisho iboneka mu mashuri abanza aho hari igishushanyo kiriho umubiri w'umuntu, kigaragaza ibice bigiye bitandukanye, amaguru, amaboko, umutwe, umunwa, ndetse n'ibindi bice abana bashobora kuwifashisha bareba amasomo.

Agakapu gatoya, nka twa tundi abana bagiye kwiga baheka mu mugongo. Utungutu twifashishwa cyane cyane n'abana bakiri batoya biga mu mashuri abanza ndetse n'abiga mu mashuri y'incuke. Ahangaha karihoho igipupe bimwe mu bikurura abana.

Agasahani kariho udukoresho tugiye dutandukanye tugera kuri tune, tugaragaza imbuto ziri ku masahani ndetse kandi ni imfashanyigisho kuko ntabwo ari imbuto nyambuto, uko ari ibishushanyo cyangwa se ibibumbano bigaragaza imbuto runaka.

Udukoresho twifashishwa n'abana biga mu myaka yo hasi, cyane cyane mu mashuri y'incuke n'amashuri abanza, bishobora kubafasha mu gihe bari kwiga ibintu runaka, biga kubara cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye, utu tuntu turabafasha cyane.

Ibikoresho bigizwe n'imfashanyigisho, zikoreshwa mu mashuri mato y'inshuke, ndetse bigizwe n'utuntu abana bakunze gukinisha kugira ngo bishimishe mu gihe bageze igihe cyo kuruhuka.

Imfashanyigisho ikoreshwa cyane cyane mu mashuri y'inshuke igizwe: n'igikeri, inzoga, rusake ndetse n'utundi tunyamaswa tugiye dutandukanye, urugo uriho n'igiti, ibi ngibi biboneka mu mashuri y'inshuke.

Udukoresho tuboneka mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, aho aba ari imfashanyigisho zihabwa abana bakiri batoya, bazifashisha bari kubara cyangwa se kugira ngo bamenye ibikoresho runaka dukozemo.

Amoko y'ibiribwa bigiye bitandukanye akubiye hamwe yiganjemo imbuto harimo: imineke, pome ndetse n'utundi tuntu tugiye dutandukanye tumeze nk'inkeri twifashishwa mu gutunganya ifunguro ryuzuye.

Ibyicungo bijyaho abana bakiri batoya mu gihe bari ku ishuri cyane cyane mu gihe cyo kuruhuka nyuma y'amasomo, aho baza bakicunga mu gihe abandi nabo baba bakina imipira n'indi mikino igiye itandukanye, ni ukuvuga ngo bituma abana banezererwa ndetse bagakunda ishuri.

Umwarimu uhagaze hagati mu ishuri arimo kugenda atanga uburezi, abana nabo barimo kugenda bashira urutoki hejuru kugira ngo baba abashe gusubiza ku bibazo umwarimu yagiye ababaza. Aha ngaha ni mu mashuri yisumbuye aho uyu mwarimu arimo kugenda ahereza uburezi.

Umuntu urimo kugenda asobanura umuganura, ni ukuvuga ngo gusangira ibyo abantu babaga barejeje ibyeze imbere cyane cyane iyo hasangirwaga amasaka ,umutsima ,icyo kunywa kigizwe n'ikigage, inzoga, kugira ngo bizihizwe uyu munsi.

Utuntu twinshi tugizwe n'amabara agiye atandukanye harimo utw'amabara umweru, ubururu, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi ni utwifashishwa n'abana bari mu mashuri abanza cyangwa se abari mu mashuri y'inshuke mu gihe biga amabara.

Udukoresho twifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, aho tugizwe n'amashusho y'ibinyampande bigiye bitandukanye ,hariho kare, kanyenyeri ,ndetse n'ibindi binyampande bigiye bitandukanye ,mpande eshatu ,ndetse n'izindi mpande zitandukanye.

Inyuguti zigize ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse ziganjemo: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z ndetse izi zigwa mu mashuri abanza cyane cyane mu mwaka wa mbere.

Ibikoresho byinshi bigizwe n'imfashanyigisho zikoreshwa mu mashuri abanza cyangwa se ay'inshuke, aho harimo ibifasha abana kumenya inyuguti n'ibindi bibafasha gusoma no kumenya imibare igiye itandukanye mu gihe barimo kwiga.

Igikapu kiriho agapusi karimo guseka cyane cyane bino bikapu bikunzwe n'abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke kuko aba abona kano kantu kamushimishije uko kameze nk'igikinisho cy'umwana ni kiza cyane kino gikapu.

Umwana w'umunyeshuri ukiri mutoya urimo kugenda yandika inyuguti ahereye kuri; a, b, c, d, e, f kuzamura kugirango ngo yandike ingombajwi ndetse n'inyajwi zigize inyuguti zo mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Udukoresho tw'imfashanyigisho turi mu mabara agiye atandukanye: ubururu, umweru, umukara, icyatsi, umutuku ndetse n'andi mabara agiye atandukanye. Bwifashishwa mu gihe abana biga mu mashuri abanza barimo kubara cyangwa se bari kwiga ibinyampande.

Amarembo agizwe n'igipangu kirekire gisize amabara y'umutuku ndetse hariho icyapa kirekire kivuga ko ahangaha ari iguriro ry'abana rya Nyagatare. Ahangaha niho uwo bafasha abana bakoze ibyaha cyangwa se bananiranye kongera kubashyira mu buzima busanzwe bamaze kubagorora.

Abarimu bahagaze imbere y'abanyeshuri, umwe muri bo afashe ku idarapo ry'igihugu cyangwa se ibendera, bahagaze ku murongo ni cyagihe baba barimo kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu, ndetse aha ngaha ni mu mashuri abanza, kuko hariho abanyeshuri bambaye amakabutura ndetse n'ikaki.

Ibikoresho by'ishuri bigizwe n'imashini ibitabo amakayi, amakaramu n'umukasi amarati yo gupima ndetse n'ibindi byinshi umuntu ashaka gutwaramo amakayi bita kariseli ibi ngibi byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwandika cyangwa se mugihe ari gufata note.

Inyamaswa zo mu rugo zigiye zitandukanye, hariho inkoko imeze nk'isake, ifi ,urukwavu ndetse n'agapusi. Utu ni utunyamaswa dushobora kwifashishwa mu gihe abana batoya barimo kwiga, ubereka amashusho ndetse ugashiraho n'amagambo aherekeza ayo mashusho.

Ikirango cy'ishuri cyo mu rwunge rw'amashuri rwa Rubagabaga ahangaha ni mu karere ka Nyagatare, aho baba bgaragaza ibibaranga harimo ko uburezi ari ubukungu bukomeye cyane. Aha ngaha kandi buri munyeshuri aba agafite ku ishati ye.

Ibiboneka mu gitabo cy'imfashanyigisho. Ni igitabo gifite umutwe ugira uti: "Gasaro n'abajura." Aho hariho umwana urimo kurunguruka, akabona abajura barimo kugenda bagabana Zahabu n'ibindi bintu bari kwiba.

Ibikoresho by'ishuri byiganjemo buwate natematikari, izi ngizi ziba zirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo: kompa, amarati ndetse n'utundi dukoresho umunyeshuri ashobora kwifashisha ari gupima cyangwa se mu gihe bari kwiga isomo ya jewometiri.

Ibikoresho by'ishuri bigizwe n'amakaramu, amakayi, imikasi, amarati, amakerereyo ndetse hari n'ibitabo bigiye bitandukanye umwana ashobora kwifashisha mu gihe ari kwiga ndetse hariho n'utuntu twifashishwa mu gusongora ikereyo cyangwa se ikaramu y'igiti.

Ikigo cy'amashuri aho kiriho aho bigisha ibijyanye n'ubuforomo, ubuforomokazi, ububyaza, ndetse hariho n'aho hantu ushobora kuhasanga. Ahangaha kandi hubatse neza utuyira umuntu acamo turasakaye.

Abanyeshuri babiri umuhungu n'umukobwa, umuhungu yambaye imyenda ya kaki ndetse ipantaro n'ishati ndetse n'amasogisi n'inkweto z'umukara, umukobwa yambaye ikanzu ndende y'ubururu ndetse kuruhande hagiye harihoyo amagambo agaragaza ibintu biga.

Inyigisho zitangwa ku bana igihe bari kwiga kubara aho hagemwe hagizwe na karoti eshatu, ibigori bitatu, abantu batatu kugira ngo bigishe umwana kubara gatatu. Hariho kandi ahari inyanya enye aho babigisha umwana kubara kane. Hari inyanya, utunnyugunyugu ndetse n'utundi dukoresho tw'inzogera, no hepfo gutyo gotyo.

Ibyicungo biri ahantu abana bajya bakinira mu gihe barimo kuruhuka ku ishuri, aha ngaha abana bakiri batoya cyangwa se abiga mu mashuri y'inshuke bashobora kwifashisha bino byicungo kugira ngo binezeze.

Igitabo kiga imfashanyigisho igaragaza umugani wa bakame, igihe yari yigize umwami, arimo kugenda atangira inzovu, urebye ubunini bw'inzovu ni nini cyane, yikubye iyi bakame inshuro nyinshi iyikubye nk'inshuro nka mirongo ine.

Amashuri yubatse neza aho ari umuntu wambaye agapfukamunwa imbere y'amashuri hariho ibendera ry'u Rwanda, hasi hatatse amabara agiye atandukanye arimo: ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hari n'akandi kabara k'umutuku.

Udukapu dutuwe tubereye no gutwarwamo amakayi cyane cyane twifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza. Aho badutwaramo amakaye, ibikoresho bigiye bitandukanye. Bashobora kwifashishwa mu gihe barimo kwandika urugero: amakaramu, amakayi ndetse nandi makaramu y'ibindi.

Abana bari kurira ku byicungo, ndetse n'icyagiye mwarimu abasoje kwigisha, cyangwa se bagiye mu karuhuko gatoya. Bamwe bari kugenda burira hejuru ku byicungu, kugira ngo baze kumva umunyenga. Hanyuma abandi nabo barimo kugenda bakina imikino igiye itandukanye, hariho n'abicaye batarimo gukina.

Abana barimo gukina ndetse harimo n'umubyeyi ufite inkoni biri mu bice bigiye bitandukanye, ahambere ni umwana umwe mukuru ndetse ufite utwana tubiri turi imbere ye, urundi ruhande ni umubyeyi urimo kuganiriza abana be, urundi ruhande nanone ni abana barimo gukina ahandi ni umukecuru ufite inkoni.

Ububiko bw'ibitabo bugizwe n'aho umuntu aza akicara agasoma, ndetse n'amoko y'ibitabo agiye atandukanye ugenda ufata kimwe kimwe cyangwa se igihe ushaka kugitira uragicyura iwawe bakakwandika, gusa bigira uburyo binyuramo, niba mu kigo cy'amashuri bakwandika mwaajya gusoza umwaka cyangwa se igihembwe, ukagiterura mu gihe ukibuze nta biroti baguha cyangwa se indangamanota.

Ikigo cy'amashuri cyubatse mu buryo bwa etaje, aho hariho abantu bagera kuri batatu barimo kugenda baganira, umwe muri bo yambaye utujiri ndetse kandi n'undi arimo kugenda abasobanurira banaganira gake gake.

Abanyeshuri bicaye muri sale barimo kugenda baganira, abenshi muri bo ni abakobwa, bambaye amasogisi y'imyeru, inkweto z'umukara, bambaye impuzankano igizwe n'imipira y'icyatsi ndetse isa n'amajipo bambaye.

Abanyeshuri benshi bakoraniye mu nzu mberabyombi barimo kugenda baganirizwa . Ni ikigo cyagize abashyitsi biganjemo abirabura ndetse n'abazungu, barimo kugenda baganirizwa muri gahunda zigiye zitandukanye hamwe n'abarezi babo.

Umwarimu wicaye mu isomero, aho inyuma ye meza hariho ibitabo by'amoko agiye atandukanye, hanyuma motu etageri harimo ibindi bitabo bigiye bitandukanye, aha ngaha ni aho umuntu aza akicara agasoma ibitabo cyangwa se igihe aje gutira cyangwa gutirura igitabo aba yaratiriye.

Umuyobozi uhagarariye abandi ari imbere rwagati arimo kugenda asobanurira aba banyeshuri kuri gahunda zigiye zitandukanye, aha ngaha ni mu kigo cy'amashuri hanyuma kandi mu mashuri ya yandi y'abakuru mu mashuri yisumbuye.

Ikigo cy'amashuri aho batowe abantu barimo kugenda bareba isuku cyangwa se imikorere y'iki kigo, barimo kugenda bareba aho batekera kugira ngo barebe isuku ibiribwa bikoranwa mu gihe barimo guteka, aba ngaba ni abakozi ba Leta.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye abenshi muri bo bambaye amashati ndetse adatebeje, abenshi iniforome yabo cyangwa se impuzankano igizwe n'amapantaro cyangwa se amajipo ya kaki ndetse n'amashati y'umweru, abandi na bo bambaye imipira y'ubudodo y'icyatsi.

Umugore w'umuyobozi wicaye ndetse imbere afite agakaramu, agakayi ndetse ku ruhande akikijwe amacupa y'amazi. Arimo kugenda atanga ikiganiro ku bantu bamukurikiye. Ahangaha yicaye ni mu biro bye aho abantu bamushaka bashobora kumusanga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano igizwe n'amashati y'imyeru, amapantaro y'imikara n'imikandara y'umukara. Umwe muri bo yambaye indorerwamo afite n'igitabo mu ntoki, n'akantu kameze nka telefone, ndetse kurundi ruhande hariho umwerimu muri kuza ndetse n'undi munyeshuri w'umukobwa.

Abanyeshuri bo ku bigo bitandukanye bicaye barimo gukora ikizamini, hagati hari abantu barimo kugenda bareba uko bakora ikizamini ndetse buri wese yicaye ku ntebe ye, ntago bambaye impuzankano zisa kuko bamwe bambaye amashati y'imyeru babihuriyeho, ariko gusa bamwe bafite amapantaro ya kaki abandi bakagira amapantaro y'ubururu.

Abagabo babiri bari imbere y'abandi bantu, uyu wo ku ruhande arabyibushye cyane afite n'inda nini biragaragara ko ari umuyobozi, aha ni mu kigo cy'amashuri aho higanjemo abahungu abakobwa bambaye imipira y'imihondo.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abana bambaye amakanzu ya yandi yambarwa n'abantu basoje kwiga cyane cyane abasoje kaminuza aho baba bari kwishimira ko basoje amashuri bahabwa impamyabushobozi.

Isha igaragara ahantu mu gashyamba, ndetse hakurya hariho n'akanyamaswa kameze nk'ihuku hagaragaye n'ibiti. Ibi ni bya bishushanyo, bikorwa n'abantu biga ubugeni, ndetse babandi bakora ibintu by'ubukorikori.

Ubusitani burimo indabo z'amoko agiye atandukanye ibiti amakaro cyangwa se amapave, aho umuntu urimo kunyura ahantu adashobora kugenda akandagira itaka. Ahangaha kandi ushobora kugenda kuharuhukira cyangwa se kuhafatira amafoto.

Abanyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda nk'uko bigaragazwa n'imipira bagiye bambaye ndetse n'amakarita bambaye mu majosi. Ariho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda. Abenshi muri bo, bafite za mudasobwa imbere yabo ku meza. Ariho na mwarimu urimo kugenda abereka ibyo bakora abafasha abereka uko bikorwa.

Urugi bya bindi bikorwa mu mbaho, zazindi bita tiripuregisi hariho iserire, ahangaha kandi iki cyumba, gisize irangi ry'umweru, ndetse kandi uru rugi narwo rufite irangi ry'umutuku. Ahangaha kandi rigaragaza mu cyumba, kuko ahangaha kirafunze.

Abanyeshuri barangije kaminuza bicaye ahantu hamwe, bicaye ahantu hameze nko muri sitade, ni cya gihe abanyeshuri baba bari kwizihiza umunsi wo kurangiza amashuri yabo, aho bari bari guhabwa impamyamanota cyangwa se impamyabushobozi kugira ngo babagaragaze ko barangije, ahangaha baba bambaye amakanzu yabugenewe.

Ubusitani bugizwe n'amoko y'indabo zige zitandukanye ndetse n'umucaca uteye hasi na pasiparumu, hirya cyane hariho abantu bagiye batandukanye bari kunyura mu byerekezo bigiye bitandukanye ndetse kandi ahantu igihe umuntu yicaye ashobora kuba afite akayaga keza ndetse hari amahumbezi.

Ibikoresho bikoze mu ibumba. Aha ngaha hariho n'icyondo bagiye bakata. Ku buryo ushobora gukuramo ibikoresho bigiye bitandukanye: amavase, inkono y'imitako ndetse n'ibikombe. Aha ngaha bikorwa n'abantu biga ibintu bijyanye n'ubugeni.

Abanyeshuri barimo kwiga, abaga biga muri kaminuza y'u Rwanda bambaye impuzankano igizwe n'amarokosite, ajya gusa n'icyatsi, bari mu mahugurwa agiye atandukanye, abakobwa barimo guseka neza cyane.

Intebe ziteye neza mu buryo bugezweho, aho zifite ahantu ushobora gutereka amatayi cyangwa se igikapu mu gihe urimo kwiga ndetse n'ahandi hantu umuntu agenda yicaye, ni iza palasitike ndetse ziteye irangi ry'ubururu.

Urubyiruko rugizwe n'abantu bagera kuri batanu barimo kugenda bareba muri mudasobwa, barimo kwigira hamwe umwe arimo kugenda yandika ibyo bari kwiga barebera no kuri telefone, hanyuma abandi nabo bakabikurikiranira kuri mudasobwa bari mu matsinda.

Agahanda gaca mu busitani karimo amakaro cyangwa se amapave ku ruhande kandi hasize irangi ry'umweru n'umukara, ndetse hariho indabo zitunganyije neza, bagiye bazikata izisumba izindi, ahangaha kandi hasa neza kuhafatira ifoto byaba ari sawa.

Ibikoresho bikorerwa mu Rwanda byiganjemo, utugofero, two gupfundikiza utuntu runaka. Harimo ibitenge n'imitako ibyitandukanye. Byakorewe mu Rwanda, ndetse harimo n'ibitenge byambarwa n'abadamu.

Imitako myiza cyane ishushanyije ndetse yiganjemo uduseke, igitabo ndetse n'utundi dutako tugiye dutandukanye ndetse hamwe n'ibisabo, ibi ngibi bikorwa cyane cyane n'abantu biga ubukorikori ndetse abantu biga ibintu bijyanye n'ubugeni.

Abasore b'ingimbi barimo kugenda bamanuka ku masikariye barimo kugenda bagana hasi, uyu w'imbere afite igikapu arimo kugenda agifungura inyuma ye naho harimo wundi urimo kugenda amanuka. Abangaba barasana n'abanyeshuri biga muri kaminuza.

Ibumba ryifashishwa mu gukorwamo ibikoresho bigiye bitandukanye, urugero inkono, amajage ndetse n'amavazi ashyirwamo indabo. Ibi ngibi byifashishwa cyane cyane mu gukorwamo imbabura ndetse n'ibindi bikoresho bikorwa mu ibumba.

Umutako mwiza wakozwe n'abantu biga ibintu bijyanye n'ubugeni banabishushanya ugaragaza agace runaka karimo amazu yubatse ndetse n'umuhanda unyuze ku ruhande urimo ibice bigera bitandukanye uyu muhanda wa kaburimbo wagizwe n naho abanyamaguru banyura, aho ibinyabiziga binyura, uko bigenda mu buryo bugiye butandukanye.